Umuhinzi arimo kwita ku bihingwa bye by'amashu mu murima， aho arimo kubitera umuti ukorerwa mu ruganda， kugira ngo bibashe guhangana n'uburwayi n'ikirere.

Isahani iriho ibiryo, iriho inyama ,amakaroni, isahani nziza cyane iteretse ku gatambaro kera k'umweru, ifite n'icyuma iruhande cyakoreshwa mu gihe umuntu arimo gufata amafunguro ari ku iyo sahane.

Umuhinzi uri muri Girini Hawuzi, aho ari kwita ku bihingwa bye.

Impeke z'ibigori zo mu bwoko bwa mayizori, zeze, zashizwe mu mifuka y'umweru mu isoko, aho zigiye kugurishwa kubakiriya babyifuza.

Umuhinzi ari mu murima ari gusarura ibigori bye byeze, binini cyane byo mu bwoko bwa iburide mu murima hagati mu gihe cy'isarura.

Igihingwa cyitwa amashu kiri mu murima aho kigeze mu gihe cy'isarurwa kimaze kugira ingano yajyanwa ku isoko, ikibura ni abahinzi babishaka ngo babisarure bajyane ku isoko.

Imifuka irimo igihingwa cyitwa ubunyobwa, biri mu mifuka y'umweru n'abantu bari mu isoko bashaka kubugura n'abagiye kubugurisha b'abacuruzi.

Umuturage ukora ubucuruzi bw'impungure ari muri depo, aho arimo kurobanura areba ko ibintu acuruza byujuje ubuziranenge ari byiza koko.

Isoko ricururizwamo ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, ricuruza impeke zitandukanye harimo: ibigori, ibishyimbo, amasaka, ingano n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umugore urimo kurobanura no kugosora ibishyimbo ku mifuka hamwe n'amabase, yabishyize ku zuba yabyanitse kugira ngo bikomeze kumera neza, ari gukoresha inkoko.

Umworozi w'amatungo worora ingurube mu kiraro ,aho arimo kuyikorera amasuku ari no kureba ko nta burwayi ingurube ye yaba ifite kugira ngo abashe kuyivuza.

Abavuzi b'amatungo barimo kuvura itungo ryo mu rugo ryitwa imbwa bo bitwa aba veterineri babyigiye barimo kuyitera inshinge mu kanwa.